Abantu bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, batandukanye, barimo baraganira, ku meza abari imbere hari amatelefone atandukanye,

Abadamu batatu bagaraga imbere inyuma yabo hari abandi bigaragara ko bari mu nama, uyu mudamu umwe ugaragara imbere ni umujyanama w'umujyi wa Kigali imbere yabo hateretse amazi yo kunywa yo mu bwoko bw'inyange ku meza hateretse ibitabo ndetse n'amatelefone.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo ndetse n'amazi ari mu macupa, kandi imbere yabo hari ibikapu byabo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hagaze umugore urimo abaganiriza, inyuma hari icyapa cyanditseho repubulika y'urwanda umujyi wa kigali.

Abantu batandukanye bicaye mucyumba cy'inama, barimo abagabo n'abagore imbere ya bo kumeza hateretse ibitabo n'ikaramu, ndetse n'amatelefoni ngendanwa.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama b'abagabo bambaye amakoti y'imikara, bicaye mu ntebe z'imikara imbere ku meza yabo hateretse ikirahure cy'amazi ndetse n'icupa ry'amazi.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Abantu bicaye mucyumba cyagenewe gukorerwamo inama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye, amazi, n'imitobe yo mu bwoko bw'inyange.

Abagabo batandukanye bicaye ku meza amwe bari mu nama, imbere yabo hari uwambaye umweru ubayoboye, bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza y'umutuku haragaragara ishusho y'ubururu.

Abantu batandukanye bicaye hamwe mu cyumba kinama, imbere ku meza yabo hateretse ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Ameza asize irange ry'umweru kuri ayo meza hateretse indobo ebyiri. Indobo ya mbere irimo amacapati, indobo ya kabiri amandazi, hari n'agasahane kandi hakabaho akantu ku rusenda n'ak'umunyu, hateretse imineke, hateretseho amagi munsi ya meza hari puberi ushobora gushyiramo imyanda, hari n'intebe kandi yumweru, irimo iragaragara, hari n'icyapa cy'umuhanda kirimo kiragaragara hari n'umuntu kandi uri mu muryango waho ngaho ushaka kubakenera ibyo kurya wagana aha hantu bakabikoherereza.

Umuntu ureba uhagaze imbere y'abantu benshi batandukanye barimo abagore n'abasore yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati afite igitabo mu ntoki asa nkaho arimo abasobanurira ibintu runaka.

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe basa nkabahujwe n'umuhango runaka, imbere hicaye umugabo wambaye ibirahuri byo mu maso ku bibero bye hateretse mudasobwa ndetse na terefone ngendanwa.

Abayobozi bicaye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, imbere yabo yateretse ameza ariho igitambaro cy'umukara kuriyo meza hariho ibitabo n'amazi yo kunywa mu macupa.

Umugore wicaranye n'abantu benshi ugaragara imbere yambaye agasengeri gafite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'ikarita y'akazi itagaragara ku meza imbere ye hari urupapuro rw'umweru n'agacupa karimo amazi.

Abantu batatu bicaye mucyumba k'inama umugabo uri kuruhande wambaye ishati y'umuhondo, imbere ye hari mudasobwa y'umukara ifunguye ndetse nicupa ry'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa n'amatelefone, ndetse n'utwuma twagenewe kurangurura.

Umugore wuriye ipoto ry'amashanyarazi arimo arashaka ibikoresho byo gutunganya ikibazo cyaba gihari kuri iryo poto ry'amashanyarazi arimo gukoraho akazi.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi abarwa bitandukanye birimo biragaragara ko ari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye rero buri gihugu kiba kigiye gifite amafaranga gikoresha amafaranga kandi ni meza kuko akora ibintu byinshi bitandukanye mirongo inani kwi ijana muri ubu buzima ni amafaranga cyane cyane ko usigaye ajya no kwa muganga mbere yuko uvurwa bikagusaba kubanza kwishyura nibwo uhita umenya akamaro k'amafaranga

Abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa bicaye mu ntebe, imbere ku meza hateretse icupa ry'amazi yo kunywa ndetse hacometse icyuma cy'indangururamajwi ku ruhande.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umukara barimo abagabo ndetse n'abagore ku meza yabo hatatse ibitambaro bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hanateretse za mudasobwa n'amazi ari mu macupa.

Abantu bicaye hamwe, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bambaye imyenda y'ubururu bwijimye, iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu batandukanye bahagaze harimo abafashe amatungo magufi yo mu rugo yitwa ihene, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere y'inzu y'umuturage, inyuma y'iyo nzu hagaragara ubwoko bw'ibihingwa byitwa urutoki.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda imbere yabo aho bicaye ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe wambaye ikoti, bicaye imbere y'ameza ateretseho ibitabo barimo barakoresha, ndetse n'amacupa y'amazi na mudasobwa ku ruhande rw'ibumoso.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa, umwe arareba imbere yambaye ikoti ry'umukara, yicaye mu ntebe y'umukara.

Abantu benshi bicaye mu mahema atatseho ibitambaro biri mu mabara agize ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gore ufite indangururamajwi mu ntoki n'igitabo bigaragara ko arimo kugira ubutumwa abaha .

Abantu benshi barimo abirabura ndetse n'abazungu, bari kwandika mu bitabo biteretse ku meza, ku ruhande hariho amacupa y'amazi yo kunywa, hejuru ku gisenge hari amatara yaka umuhondo.

Abagabo benshi bicaye hamwe, bane bambaye imyenda y'imipira hejuru isa ubururu iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda; babiri muri bo bafite terefone ngendanwa mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo imitobe yo kunywa, ndetse n'arimo amazi yo kunywa, bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika mu bitabo.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, ku meza imbere yabo hari za mudasobwa zirimo kwaka n'umugozi wo gucomekaho, kuruhande hari icyapa kiriho idarapo ry'igihugu cy''u Rwanda.

Abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ibyuma byo kuvugiramo by'indangururamajwi, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanuye umunsi w'ubukerarugendo.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye mucyumba cyagenewe gukorerwamo inama mbere ku meza hateretse ibitabo bitandukanye ndetse na za mudasobwa nk'amazi ari mu macupa.

Abantu barimo abagore n'abagabo ambaye amakoti n'imipira n'amashati, abiyicaye imbere, ku meza hateretse amazi yo kunywa yo mu bwoko bw'Inyange.

Abagore bicaye mucyumba cy'inama, imbere yabo ahagaze undi mudamu urimo aravugira mu ndangururamajwi abigisha imbere hagaragara amashusho y'ibyo bari kwiga.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama barimo umuzungu umwe n'abirabura, ku meza imbere yabo hateretse ibitabo n'impapuro, ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu bahagaze batandukanye, abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa twagenewe kurinda abantu kwandura indwara. Mu cyumba harimo amarido y'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho amatelefone n'ibikombe.

Urupapuro rugaragaza urubuga rwa rura. Ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe gushyiraho ibiciro by'ingendo ndetse n'ibindi bitandukanye mu ibara ry'ubururu, hagaragara amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza...

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri babiri bahagaze imbere y'ameza ariho ibikoresho bijyanye n'i ibyo biga ku ishusho handitse ikigo gishinzwe amashuri mu rwanda rebu rwanda educasheni bodi muri rurimi...

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba gikorerwamo inama bicaye kumeza atandukanye barimo kuganira inyuma yabo hari inyubako isize umweru.

Umuryango w'inzu uriho urugi rusize irangi rijya gusa umweru, mu mpande hariho impapuro ziri mu mabara y'umuhondo, zamamaza banki y'abaturage yo mu Rwanda BPR.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa ndetse babiri muribo ,bambaye amashati, n'ikoti by'umikara bafite amaterefoni mu ntoki barimo baganira.

Ama antene y'itumanaho ane ari hejuru y'inyubako ifite amabati yo mu ibara ry'ikigina.

Abantu bicaye imbere yaho bateretse ameza bahuriyeho bose, bafite mudasobwa ni bane na zo ni enye, ibikombe birimo ibiyiko bibiri by'umweru bicaye ku ntebe z'umutuku.

Abantu barimo abambaye imyenda y'akazi, ku ruhande rwabo hari iminara ibiri itandukanye y'itumanaho. Ifite ibisahane ku mpande byifashishwa mw'itumanaho.

Ikigo gishinzwe kwandika ibigo bikora ubucuruzi, Rwanda developumenti bodi, serivise yo ku mbuga nkoranyambaga, imishinga yandikwa...

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Uyu ni muntu uri guseka ukuri kwamamaza yambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa ni imibiri yombi, afite telefone irimo irerekana ibyo arimo kwamamaza.

Umunara bafotoye baturutse hasi ugaragaza hejuru mu gicu, ufiteho ibice bigiye bitandukanye by'amanteni ukorana n'amaradiyo, ndetse n'amateleviziyo mu buryo bw'itumanaho.

Urupapuro rugaragaza iminsi isigaye kugira ngo abantu babe barangije kwishyura imisoro ku nyungu, ku itariki ya mirongo itatu na rimwe y'ukwa cumi n'abiri, mu bihumbi bibiri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri bicaye hamwe imbere yabo ku ntebe zo kwigiraho hateretse mudasobwa ntoya zifite amabara yumweru n'icyatsi .

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ishusho igaragaza urubuga rwa serivisi y'irembo, yanditse irembo intambwe ya kane byikorere kanda kuri saba hanyuma ukurikize amabwiriza ibisabwa usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cyu Rwanda usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru y'imyaka cumi n'itandatu.

Abantu babiri bahagaze munsi y'umunara w'itumanaho, bambaye imyenda y'akazi ndetse n'gofero z'ubwirinzi, imbere yaho hari icyapa cyerekana amabwiriza agenga uwegereye.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Urupapuro rwanditseho ikirango cy'ikigo gishinzwe amashuri mu Rwanda rebo Rwanda edikesheni bodi banditse amagambo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umunara wubakishije ibyuma, ugaragara mu mabara y'umweru n'umutuku, ndetse ukikijwe n'igipangu cy'ibyuma, hirya hagaragara insinga z'amashanyarazi ziciye inyuma...

Hagaragara telefone n'amagambo yanditse mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umuhondo, yerekana uburyo wadekarara umusoro watanze ku mwaka ukoresheje telefone yawe, serivisi imwe mu zigaragara ku Isi.

Ishusho igaragaza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere arajibi uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta, ku rubuga rw'irembo wa wa wa, akadomo, irembo akadomo gove akadomo Rwanda.

Ishusho y'ubururu buvanze n'amabara y'umweru, bigaragaza urubuga rw'irembo rutanga serivisi zitandukanye mu Rwanda, haragaragara serivisi nshya ku rubuga irembo govu, ikigo gitanga serivisi, icyiciro, amazina ya serivisi, siporo, minisiteri ya siporo,...

Inzu y'isomero rya Mudasobwa, irimo Mudasobwa zigiye zitandukanye z'amabara y'umukara, harimo imashini zifotora, impapuro z'umweru, n'utubati twagenewe kubikwamo za Mudasobwa.

Umuntu w'umugabo wambaye ikoti y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'ibirahure by'amaso, afite mudasobwa mu ntoki hejuru handitse amagambo, kwigaragaza ku bushake amahirwe ari mu biganza ku bushake.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Umuntu wuririye ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitandukanye bigaragara ko aririmo arakora amashanyarazi cyangwa se akaba akosora amakosa yagaragayemo.

Abanyonzi bahagaze ku magare ari hafi y'umuhanda, ndetse iruhande rwabo hari imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite amabara y'icyatsi, ubururu, ndetse n'umweru.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Igiti k'ipoto kiriho insinga zitwaye amashanyarazi zitandukanye munsi hari igipangu gifite urugi runini rw'injirorwaho hagaragaramo ikigega cy'amazi gifite ibara ryirabura.

Ipironi ishinzwe gutwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara ku mpande, amwe yo mu muhanda n'ibyapa birimo ibiburira ndetse n'umugenzi ugaragara ku ruhande.

Inzu isakaje amabari atukura, n'ibiti bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, n'itara n'itara ryo mu muhanda ku ruhande.

Umuhanda hafi yawo hari ipoto itwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi iriho itara ryo mumuhanda nibiti kuruhande hirya hari inzu ifite amabati y'ubururu.

Ipironi y'amashanyarazi iri hejuru y'inyubako zigaragaza igice cy'icyaro cy'ahantu runaka hari insinga z'amashanyarazi taransifo itwara umuriro w'amashanyarazi ndetse ikanawongera inzu ifite amabati y'umutuku n'izindi zifite amabati yashaje.

Ipironi y'amashanyarazi ifite amaguru ane ndetse n'ibindi byuma byinshi bifasheho hariho insinga nyishi z'amashanyarazi zirenga icumi hari iri mu ishyamba iri ahantu hakoteye irasa nk'aho yubakiye.

Ipoto y'amashanyarazi y'igiti, itwara insinga, iriho agakoresho gakoreshwa mu itumanaho, hasi hateye ibyatsi n'ibigori, hirya hagaragara inzu isize amarangi y'umutuku n'ubururu.

Inzu isize irangi ndetse ifite idirishya risize irangi ry'umukara, ry'icyuma, hejuru hari itara rinini rikoreshwa kumurika nijoro.

Icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda ishami rya Remera, iruhande rwacyo imodoka y'umutuku, inyuma yayo umuntu wambaye umupira w'umukara.

Amapoto abiri y'amashanyarazi ateretseho igikoresho cyongera kikanagabanya umuriro, hasi hari akakoresho gashinzwe gushyiraho umuriro cyangwa kakawukuraho ndetse n'akabati k'umuriro.

Ifoto ritwara insinga z'amashanyarazi ndetse ririho itara ryo mu muhanda, inyuma hateye ibiti byinshi bitandukanye ndetse n'indabyo z'imitako.

Ipoto ryo muri sima ryagenewe gutwara insinga z'amashanyarazi, yegeranye n'itarara ryo mu muhanda, inyuma yaho hari igipangu gifite urugi rujya gusa umuhondo, hirya hari ibiti bibisi ndetse n'ibyumye.

Inzu iri mu gipangu n'urugi rwayo rufunguye, ifite amabati atukura ndetse n'amatara hejuru y'igipangu. Imbere yayo hari ipoto ry'amashanyarazi rihereza abaturage umuriro.

Inzu ifite amadirishya ku ruhande, imiryango y'ibirahure, hirya hagaze umuntu, ndetse hejuru hagaragara ibirahure n'amatara yaka n'igikoresho cyohereza umuyaga.

Abantu b'abatetsi bambaye impuzankano z'umweru barimo guheza abandi bahagaze imbere ibyokurya biri mu isafuriya birebire.

Imodoka y'umweru, y'imbangukiragutabara y'ibitaro bya Sehashika bikorera mu Rwanda, imbere y'ikigo cya Sehashika hateye ibiti ku mpande bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gitangirwamo serivisi ishobora kuba ari iy'ikigo nderabuzima, harimo umwe wambaye imyenda y'iroze igaragaza umuntu w'imfungwa mu gihugu cyu Rwanda, hirya yabo hari kizimyamwoto isa umutuku ifite umugozi w'umukara.

Abantu babiri, umugore n'umugabo bambaye imyenda y'akazi, bari mu cyumba cyo kwa muganga. Harimo umurwayi uryamye ku ntebe, ndetse iruhande rwabo, hari akabati karimo impapuro.

Imodoka mu muhanda imbere y'ibitaro bya CHUB byo mu Rwanda bivura indwara zitandukanye, imodoka z'umukara n'ibendera ry'igihugu, amabati y'umutuku agaragara kuri iyo nyubako.

Ibiti biri mu busitani buteye imbere y'inyubako igeretse kenshi, ndetse haparitse imodoka ntoya y'ubururu hafi y'itara ryo mu muhanda.

Inzu yubakishije amabati ndetse n'ibyuma byinyingi bishinze kuruhande hari inzu isize irangi ry'umuhondo utagaragara neza ndetse hamanitseho agasanduku.

Abantu bashinzwe umutekano babiri bahagaze, umwe afite urupapuro mu ntoki n'undi mugabo urimo yinjira mu muryango yambaye agapira k'umweru ndetse n'ingofero iroza.

Abantu bicaye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, imbere yabo hari ameza, utubati n'ibyuma bigaragaza amashusho mu buryo bwa rusange, umwe ari kubwira bose bamuteze amatwi.

umucamanza ndetse n'umugororwa bari kuganira bambaye udupfukamunwa bareba muri mudasobwa kuruhande hari icupa ry'amazi yo kunkwa.

Abantu bambaye impuzankano y'imfungwa y'ibara ry'iroze ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hari umuntu ushinzwe umutekano wabo ndetse n'urimo kubafotora.

Umuntu ugaragara nk'umuyobozi mukigo cya gisirikari, wambaye amapeti y'inyenyeri, amarinete, imyenda iri mu bwoko bwa madowadowa, arirabura, ifoto igaragara nkaho ari iya kera.

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba k'inama imbere yabo hari ameza ateretseho ibirahure byo kunyweramo ibinyobwa bitandukanye.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano y'abacamanza y'amakanzu y'imikara, bamanitse ibiganza ndetse banafashe ku idarapo ry'igihugu cy'Urwanda, bigaragara ko barimo kurahira ngo batangire imirimo.

Abantu bicaye munsi y'igiti, abakecuru, abasaza, abasore, urungano, mbese abasore n'inkumi hirya yabo hari amazu yubakishije amatafari y'imunyu meza munsi y'igiti kinini cyane.

Umucamanza wambaye ikanzu y'akazi, uhagaze imbere y'abagororwa bambaye impuzankano, bicaye mu ntebe z'imbaho, inyuma yabo hari ku nzu ifite amadirisya arimo ibirahure.

Imfungwa zambaye imyenda isa y'iroze, zimwe zifite amasuka mu ntoki batonze umurongo, bigaragara ko bavuye gukora imirimo nsimbura gifungo.

Abacamanza b'abagabo babiri n'imfungwa ebyiri hagati yabo zambaye imyenda y'imfungwa, iri mu ibara ry'iroze, imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo na mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Imfungwa zambaye imyenda isa icyatsi zicaye hamwe. Hirya yabo hari abashinzwe umutekano bambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'ingofero yabo, n'abaturage ku ruhande.

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe z'imbaho, imbere yabo hicaye umuntu ugiye kubabwira, ku meza ye hateretse amacupa abiri, rimwe ririmo umutobe, irindi ririmo amazi yo kunywa.

Abantu barimo abagore ndetse n' abagabo bicaye mu ntebe zimikara. Ku mpande hari igikuta cy'imbaho giteretseho isakazamashusho, ndetse ku meza imbere hateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu ntebe zitandukanye imbere yabo hari umuntu ubahagaze imbere biragaragara ko ari inkiko gacaca barimo baca impanza.

Urupapuro ruba ruriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, y'amategeko yashyizweho na minisitiri, agenga imbibi z'abaturage ndetse n'inimero y'ayo mategeko.

Igikoresho kizimya umuriro cy'umutuku cyanditseho amagambo mu mabara y'umweru asobanura ubwoko bw'umuriro kizimya, gifite umupira w'umukara n'umunwa w'umukara.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Ifoto igaragaza abantu bari mu muhanda harimo uwambaye imyenda y'abazimya umuriro n'imodoka ishinzwe kuzimya umuriro, umuntu wambaye umwenda w'umweru ugaragara nkaho ari umucuruzi, mu muhanda abantu ni benshi.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku ndetse cyanditseho amagambo mu mabara y'umweru asobanura ubwoko bw'umuriro cyagenewe kuzimya gifite umupira usohora imyuka izimya w'umukara.

Ibikoresho byagenewe kuzimya inkongi y'umuriro bibiri, bifite amabara y'umutuku n'ay'umukara n'amagambo yabyanditseho asobanura ubwoko bw'imiriro bizimya.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Ikona rifite ibara ry'icunga rihishijeye imbere umupolisi yambaye imyenda y'akazi iriho ibendera ry'u Rwanda, hirya hari imodoka ya polisi y'umweru n'umukara n'abantu bayegereye.

Abashinzwe umutekano bambaye impuzankano y'akazi iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda bahagaze iruhande rw'inyubako nyinshi igaragara nk'aho ari ikigo cyabo bafite imbunda.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, iri mu ibara ry'umutuku ifite amabara y'umweru yanditse mu magambo isobanura ubwoko bw'umuriro kizimya gifite umupira wirabura.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi z'imiriro bibiri, kimwe gisa umweru, ikindi gisa umutuku n'amagambo yanditse ku mpande asobanura ubwoko bw'imiriro bizimya.

Igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ndetse gisa umutuku gifite umupira w'umukara cyanditseho amagambo mu mpande ibara ry'umweru asobanura ubwoko bw'umuriro kizimya.

Umukuru w'iguhugu cy'u Rwanda yambaye umupira w'umweru uriho ikirango cy'umuryango wa FPR inkotanyi, inyuma ye abaturage batandukanye n'abo bafite amadarapo y'umuryango wa FPR.

Ikirango cy'umuryango ishyaka rya Efuperi inkotanyi mu byo mu Rwanda bigizwe n'amabara umuhondo, ubururu, umweru ndetse n'umukara mu ibara ry'intare.

Umuntu wambaye imyenda y'umuryango wa efuperi ari kwamamaza umukandida wa uwo muryango ariwe umukuru w'igihugu cy'urwanda paul kagame.

Abantu bane bahagaze, abagore babiri n'abagabo babiri, harimo uwitwa Muhayimana Philippe wiyamamariza kuba Perezida wa rRepubulika y'u Rwanda, afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu batwaye moto harimo abahetse abagenzi bari mu muhanda ku ruhande ufite uturongo tw'umukara n'umweru hirya yawo hamanitse ishusho y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanditseho tora Kagame Paul.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi abarwa bitandukanye birimo biragaragara ko ari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye rero buri gihugu kiba kigiye gifite amafaranga gikoresha amafaranga kandi ni meza kuko akora ibintu byinshi bitandukanye mirongo inani kwi ijana muri ubu buzima ni amafaranga cyane cyane ko usigaye ajya no kwa muganga mbere yuko uvurwa bikagusaba kubanza kwishyura nibwo uhita umenya akamaro k'amafaranga

Abantu bambaye amakarita y'akazi n'imyenda itandukanye, bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, imbere yabo ku meza hateretse ibitabo, imitobe yo kunywa, ndetse n'amazi yo kunywa mu macupa.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, yambaye umwenda w'umuryango wa Efuperi arimo ariyamamaza. Inyuma ye hari abashinzwe umutekano we ndetse n'abaturage benshi.

Minisitiri w'intebe mu Rwanda Eduard Ngirente yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru arimo araseka ahagararanye n'umugaba mukuru w'ingabo Mubaraka Muganga inyuma yabo hari ikirango k'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bahagaze batonze umurongo basa nkabakeneye serivisi mu nzu imwe mu za leta harimo abagore ndetse n'abagabo n'abana bato inyuma yabo baparitse imodoka kandi hagaragara ibendera ry'igihugu.

Umugabo witwa Habineza Frank ukuriye ishyaka rya girini pati uherutse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu w'u Rwanda umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, afite terefone mu ntoki y'umukara yambaye ukote.

Umuyobozi wo mu Rwanda wicaye mu biro yambaye ikanzu y'umweru, afite imisatsi y'umukara, afite urupapuro mu ntoki, mbere hari ameza ateretseho ibitabo bigiye bitandukanye n'ibendera rigaragaza umuryango wa arapiyefu.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul Kagame, ari mu modoka y'umukara ndetse inyuma ye hari abapolisi bambaye imyenda y'akazi bamurinze, ari gusuhuza abaturage mu gihe cyo kwiyamamaza.

Umukandida wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane witwa Mpayimana Philippe ahagaze imbere y'indangururamajwi arimo yiyamamaza, inyuma ye hicaye abantu batandukanye.

Perezida wa repuburika y'u Rwanda Paul Kagame ahagaze imbere y'abaturage, iruhande rwe hari idarapo ry'igihugu, n'umuntu wambaye umwenda muremure utukura ndetse n'umugore wa perezida wa repuburika.

Umuyobozi wicaye mu ntebe y'umukara y'umusego ndetse imbere ye ku meza hateretse mudasobwa n'igikoresho cyagenewe kurangurura amajwi, yambaye indorerwamo z'amaso

Utumodoka dutoya turi mu bwoko bw'amamoto, turi mu muhanda, dusa ubururu, ndetse n'umugore wambaye ikanzu mu gitenge, ndetse aheste igikapu cy'umukara, arimo kuza imbere.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zigaragara mu mabara y'ubururu n'umweru, iri ibumoso yanditseho mirongo itandatu igaragaza umuvuduko ntarengwa igenderaho.

Imodoka y'umweru iri imbere y'umumotari uri kuri moto, ndetse n'inyuma ye hari akamodoka gato gateye nka moto gasa ubururu, kuruhande hari itara ryo mu muhanda, ndetse n'inyubako y'ubucuruzi.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Imodoka yo mu bwoko bwa moto, iri mu muhanda, hirya yayo hari umumotari uhetse umugenzi, n'undi ugaruka, babisikana, umuntu uhagaze yambaye ipantaro itukura, inkweto y'umweru, n'umupira w'iroze.

Moto nyinshi ziparitse ahantu, imbere hahagaze umumotari wambaye impuzankano y'akazi ndetse ku ruhande hari guca umuntu ugenda n'amaguru.

Imodoka zipakira imizigo ebyiri, zisize amabara y'umweru, imwe ipakiye imifuka itandukanye, ziri mumuhanda.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange nini iriho amashusho agaragaza uburyo bwo kwishyura inguzanyo ya beyeride ikigo gitanga inguzanyo mu Rwanda.

Imodoka iri mu muhanda ku ruhande hari ubusitani bw'ibiti bitandukanye ndetse n'amatara yo mu muhanda asize amabara y'ubururu n'umweru.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange z'amatagisi, ziparitse hamwe nyinshi, imwe ifite nimero iyiranga.

Umuyoboro w'amazi n'akararo gato ko ku muhanda ndetse n'imodoka irimo kugenda mu muhanda y'umweru ihetse ikikururwa inyuma cy'umutuku yanditseho amagambo atukura.

Imodoka zibisikana mu byerekezo bitandukanye, harimo iyo mu bwoko bwa rifani iriho nimero za telefone, ndetse hari n'indi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, mu muhanda w'umukara.

Akamodoka kari mu bwoko bw'amamoto gafite amabara y'ubururu n'umukara gatwawe n'umushoferi wako kitwa rifani mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoko iri mu muhanda isa n'ihetse ibintu isa umweru ku ruhande haragaragara ibiti n'umuntu ugenda mu muhanda n'amaguru wambaye agapira k'umuhondo.

Imodoka ntoya y'umweru iri iruhande rw'imodoka nini ihetse amakesi y'inzoga iri mu muhanda, ku ruhande hateye ibiti ndetse n'inzu irikubakwa nshyashya.

Umumotari uri mu muhanda, yambaye imyenda y'akazi, ari kuri moto ndetse iruhande rwe haparitse ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'imodoka y'umweru ihagaze, umugabo wambaye ikote ry'abashoferi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Imodoka y'umweru nini ihetse indi ntoya y'umweru mu muhanda. Hirya yaho hateye ibiti, ndetse ku ruhande hari umugende utwara amazi n'akararo gato bambukiraho.

Moto zo mu bwoko bw'imodoka zikorera ibintu zihagaze ahantu ari nyinshi zifite amabara z'ubururu n'umweru utagaragara neza hirya hagaragara umuryango w'gipangu gusohokeraho ufite ishusho y'umutako w'umugongo.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, zitwara imicanga n'indi mizigo, iri mu muhanda imbere yayo hari umunyonzi uhetse umuzigo n'izindi modoka kuruhande, hafi y'icyapa kigaragaza sitasiyo y'amavuta ashyirwa mu mo.

Imodoka iri mu muhanda mu gihe k'ijoro yaka amatara y'ubururu n'umuhondo ndetse n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yikorera muri kampani yitwa ritiko.

Imodoka iri mu muhanda, igenda ihetse amatafari yubakishwa amazu maremare ageretse, isa umweru. Imbere yayo hari umuntu wambaye imyenda itukura, afite agakoresho ko gutwara imboga, gasa ubururu.

Imodoka y'umweru igenda mu muhanda iruhande rwayo hari moto bibisikana, ihetse umugenzi ndetse n'igare rihetse umugenzi, hirya hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Aba ni abantu benshi bicaye bigaragara ko ari abacamanza bambaye amakanzu y'imikara imbere yabo hagiye hateretse ameza ariho amacupa, arimo ibintu n'amakayi n'ikaramu.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Umuntu uhagaze imbere y'ingorofani, iriho ishashi iri mu mabara y'ubururu, ifiteho utumenyetso turi mu rurimi rw'igishinwa twanditse mu cyatsi, ubururu n'umutuku na oranje yambaye bote z'umukara n'ijire y'akazi.

Umuhanda urimo abamotari babiri bakurikiranye bahetse abagenzi, inyuma yabo hari imodoka itukura, n'inyuma y'iyo modoka hari indi moto, ku mpande hateye ibiti byo mu bwoko bw'imikindo no hirya hari inyubako.

Ibinyabiziga bibiri, moto n'igare, intebe y'umweru n'iy'ubururu bya parasitike, umuntu ugenda mu muhanda yambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto y'isandari n'ishati, hirya hari umutaka ugaragaza umucuruzi w'amayinite.

Abantu bicaye harimo abakobwa ndetse n'abasore n'abandi bagenda mu muhanda iruhande rwaho hari inyubako igeretse kenshi isize amabara y'ikigina.

Abantu bicaye munsi y'inyubako, imbere hari ubusitani, n'igishushanyo cyambaye imyenda, igaragaza, kwamamaza ubucuruzi.

Abantu batandunkanye barimo kugenda mu muhanda imbere y'inyubako igeretse kenshi ndetse n'umugore uri kugenda areba muri telefone, ku ruhande hateye ibiti by'imikindo.

Abantu bicaye mu kanyubako gatoya kagizwe n'ibyuma bisize amabara y'umukara ndetse n'amabati. Imbere hahagaze umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bari kuvugira kuri telefone.

Ikibuga cy'umupira kirimo udukoresho bakoresha bakora siporo, giciyemo imirongo y'umweru ndetse n'imbuga yacyo ku ruhande.

Imbuga iteyemo ibyatsi, iri iruhande rw'ishyamba, munsi gato hari inyubako nyinshi cyane zitari kugaragara neza ndetse n'umuntu uri mu kibuga arimo agenda.

Ikibuga cy'umupira giteyemo ibyatsi ndetse ku mpande hubatse akazu gafite amabati y'ubururu n'inkingi zisize amabara y'ubururu n'umuhondo

Imbuga igaragara, irimo ibyatsi ndetse igice kimwe kigaragara kitarimo ibyatsi, ni ikibuga gishobora kuba gikinirwamo umupira cyangwa se aho abana bidagadurira, kimwe n'uko yaba ari imbuga y'umuturage.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Icyapa gifite impande enye zingana gisa umuhondo mwi muzenguruko w'umukara nikimenyetso cy'umukara cyerekana ahari gukorerwa ibintu hatemerewe kugerwa.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Ipoto yo mu bwoko bwa ha, ihetse igikoresho cy'amashanyarazi, cyongera umuriro cyangwa se kikawugabanya, yegeranye n'ibyapa bibiri bihekeranye, bihurira, kimwe cyerekana aho abagenzi banyura b'amaguru, ikindi kikerekana ikorosi

Icyapa cyo mu bwoko buburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku n'umweru ndetse mo imbere hasa umuhondo n'ishusho y'umuntu mu mukara.

Ibyapa bibiri bihekeranye byegereye umuhanda byo mu bwoko bumwe, biri mubi biburira icyo hejuru kirerekana ko umuhanda uhuriyemo n'undi icyo hasi kirerekana ko hari aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibiburira gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ikimenyetso cy'umukara ,kirimo umuntu ufite igikoresho mu ntoki gisobanuye ahari gukorerwa imirimo.

Umuhanda kuruhande hari icyapa kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu ndetse nikindi gifite ishusho yurukiramende gihagazemo umuntu cyerekana ko bitemewe kuhambukira.

Icyapa kiri mu byapa bibuza mu ishusho y'uruziga n'amabara umweru, n'umukara, n'umutuku ugize uruziga, bisobanuye ahatemerewe kunyuranaho ku binyabiziga bigendera mu muhanda mu cyerekezo kimwe.

Icyapa gifite ishusho y'urukiramende, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, ka, ga, rimwe, umunani, ikenda sa na ta.

Ubwoko bw'icyapa kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, hagati harimo amabara: umuhondo, umutuku, icyatsi; biri mu mukara.

Abantu bagenda mu muhanda, umugabo wambaye imyenda isa, ishati y'umutuku n'ipantaro itukura ku ruhande hari icyapa kiri mw'ishusho y'uruziga, kiri mu byapa bibuza, kibuza abanyonzi n'abandi batwara ibinyamitende gutambukira ahongaho.

Icyapa kiri mu byapa bihurira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umweru ndetse n'umutuku, cyerekana iherezo ry'ibibuzwa mu karere.

Icyapa gifite ishusho y'urukiramende cyerekana aho abanyamaguru bambukira, kiri hafi y'ibiti birebire.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri kwambuka icyapa kimurika kiyemerera gutambuka, inyuma yayo hari moto kuruhamde hari ibiti bigize ubusitani imbere y'inyubako igeretse kenshi ndende.

Umugore wirabura wambaye amadarajya ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'umweru n'umukara ufite umukufe w'umweru mu ijosi wicaye.

Icyapa Kiri mu ibara ry' umweru n' umutuku gisobanuye iherezo ry' ibibuzwa mukarere, gikoreshwa ahantu hatandukanye kibuza ibintu bitandukanye.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Ku ruhande rw'umuhanda, hari icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, mu ishusho y'uruziga. Handitsemo inyuguti ya P yirabura. Gisobanuye ko nta wemerewe guhagarara umwanya munini.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu n'umuzenguruko w'umutuku n'ibara ry'umweru, ndetse n'ikimenyetso cy'umukara gisobanuye ikona iburyo.

Icyapa kiri hafi y'umuhanda gifite ishusho y'uruziga, amabara: umweru, umukara, umutuku n'inyuguti ya pa, cyerekana ahatemerewe guhagarara umwanya munini, hafi yaho hari moto n'ipoto bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Ikigo, ishuri ry'abana b'incuke bari mu byicungo, bambaye imyenda y'impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara. Munsi y'ibiti ndetse mu gipangu...

Ifoto y'inyubako igeretse igereretse kenshi imodoka ziparitse imbere y'iyo nzu, imodoka y'umweru iy'umutuku, abagenzi n'abantu batwara abagenzi mu buryo bwa rusange ku binyabiziga bya moto.

Inzu igeretse rimwe ifite amabati hejuru hariho udukoresho dushinzwe gutanga umwuka mwiza mu nzu ndetse imbere hateye ubusitani burimo ibyatsi.

Umuhanda ugaragaramo imodoka ntoya irimo iragenda, hirya ku ruhande hagaragara ibiti bifite ururabo byo mu bwoko bwa kasiya ndetse n'umusozi hirya utagaragara.

Abantu bicaye imbere y'inzu iriho amashusho atandukanye, kuruhande hagaragara urugo rwubakishije ibyuma ndetse hirya kumpera hagaragara akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi.

Umuhanda imodoka y'umukara ku ruhande rwaho, imbere hari amazu y'ubakishije amabuye hasi asize umweru.

Inyubako ifite inkuta zisize amarange y'umweru imbere yayo hari igiti gitwara insinga z'amashanyarazi, ndetse haragaragara urugi rw'inyubako rusize amabara y'umukara.

Inzu ifite igikoni kigaragara inyuma, gisize amarangi y'umukara n'amarido yo mu bwoko bw'amashashi, afite amabara y'icyatsi, inyuma hari inzu y'amabati yo mu bwoko bwa dumuzazi asa...

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Inyubako ndende y'igorofa, yanditseho ku ruhande Akarere ka Gasabo, hejuru hariho umutako w'igiseke ndetse hasi hateye ubusitani bw'ibiti n'imodoka y'umukara iparitse imbere yaho.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Inyubako ndende ya etage igeretse irimo amazu y'ubucuruzi, haragaragara ijambo erarayiti ry'icyongereza. Imbere hari imodoka y'umweru y'umukara, abantu bagenda mu muhanda, moto ihetse umugenzi, umuhanda w'umukara.

Urujya n'uruza rw'amamodoka mu muhanda ndetse na moto n'abagenzi bagenda n'amaguru; inyubako iri imbere y'umuhanda isize amarangi y'umuhondo ndetse nandi menshi avanze handitseho kwa rando.

Inyubako ikoreramo ibigo bitandukanye, irimo amabanki, ndetse imbere yayo hari imodoka n'amamoto ariho abamotari, ndetse n'abagenzi mu muhanda.

Umuryango mugari w'abinjira n'abasohoka ku ruhande hateye ibiti by'imigano, imbere hari umuntu ushinzwe umutekano w'abinjira n'abasohoka ku muryango wa bariyeri.

Igiti gitwara insinga z'amashanyarazi, kiri imbere y'urugo rw'inyubako isakaje amabati atagaragara neza, imbere ku rugo rw'iyo nzu hariho urugi rusize ibara ry'umukara ndetse n'ibiti biteye i ruhande rw'inyubako.

Inyubako zitandukanye, harimo izigeretse n'izitageretse zifite ubusitani butandukanye, harimo ibiti byiza. Hirya hagaragara amatara yo mu muhanda atagaragara neza.

Inzu igeretse ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya y'ibirahure, iriho ibyapa mu mpande byinshi ndetse imbere yayo hateye ubusitani bw'indabyo n'ibyatsi.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wubakishije udutafari dukozwe muri sima, ku ruhande hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi handitsemo amagambo ka, na, gatatu, ra na da. Ku ruhande hateye ibiti byinshi cyane.

Abantu bagaragara mu muhanda bambaye imyenda y'akazi umwe afite igare yambukira aho abanyamaguru bambukira hirya hari amazu n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda urimo ubusa utarimo ikinkinyabiziga ndetse n'abantu hirya yaho hari itara ryo mu muhanda ritagaragara neza n'ibiti biri ku ruhande rw'umuhanda w'umukara.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, hirya hari inyubako zitandukanye zigeretse ndetse n'izitageretse.

Ikiraro gifite aho kunyura hasi ndetse no hejuru, giherereye muri Nyanza ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, imbere haragaragara icyapa kiranga ndetse n'icyapa kibuza guhagarara imbere ya

Ihuriro ry'imihanda itatu itandukanye ku mpande hari imiyoboro y'amazi ndetse n'ibiti imbere hari amapoto y'amashanyarazi n'inyubako zitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri ndetse na moto ebyiri, ku ruhande haragaragara imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira banyuze.

Mu muhanda haragaragara amatara yaka ibara ry'umuhondo, n'icyapa, ndetse n'aho abagenzi bambukira, hagaragazwa n'imirongo y'umweru iciye mu muhanda hagati, n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi.

Moto iri mu muhanda igeze aho abanyamaguru bambukira, mu muhanda hagati w'umukara inyuma haturutse indi, umuntu uri kuruhande wambaye umupira w'umweru hirya y'umuhanda hari amazu.

Umuhanda ugaragaramo imirongo y'umweru yaho abagenzi bagenda namaguru bambukira n'umumotari uhetse umugenzi wumuzungu, n'undi wambuka mu muhanda ukurikira.

Ishusho y'umuhanda ucuritse, igaragaza icyapa cyaka cyemerera abagenzi gutambuka, harimo ibinyabiziga bitandukanye moto ndetse n'imodoka itukura n'ibiti biteye ku ruhande.

Imihanda ihuriye hamwe n'ibyerekezo bitatu bitandukanye, harimo amatara yo mu muhanda yaka mu byerekezo bibiri, ndetse n'inyubako i ruhande rw'umuhanda ifite ubusitani bw'ibiti.